Ku Gishushu naho wahabona inzu wakwishyura amafaranga atari menshi nawe ukabasha kuyibamo, ni amadorari magana ane wishyura buri kwezi ni hafi ya raadibi.

Umugabo urimo uraseka wambaye ishati isa umweru, karuvate isa umukara iruhande rwe rw'iburyo hakaba hari amagambo yandikishijwe ibara risa umweru, yanditse ahantu hasa umuhondo ndetse n'umutuku.

Urupapuro rusa ibara ry'umuhondo, rukaba rwandikishijeho amagambo asa umutuku n'umukara, iruhande rwawo rw'iburyo hakaba hari ikiganza ikaramu y'igiti rukaba rwamamaza ikigo cy'ubwishingizi cya "prime insurance."

Iduka ricururizwamo imyenda yaba mama mo imbere hakaba hari mu ububiko bikozwe mu buryo bwa mpandeshatu, buteretsemo ibitenge bigiye bitandukanye, imbere yaho hakaba hari igitenge kiharambuye gisa nk'ikifashishwa mu kwamamaza iruhande rwacyo, hakaba hateretse agatebe gatoya.

Iduka ririmo amantaro menshi azinze, imbere yaryo hakaba hateretse ameza ariho ibikapu bitandukanye, iruhande rwazo rw'iburyo hakaba hari imipira itandukanye ihamanitse, iruhande rwaryo rw'ibumoso hakaba hari akabati kiganjemo ibara risa umweru, iruhande rwako hakaba hari igipupe cyifashishwa mu kwamamaza imyenda.

Iduka ry'inkweto ririmo akabati gasa umweru, gateretseho ubwoko bw'inkweto butandukanye, hakaba harimo izifite imishumi isa ubururu ndetse n'izifite imishumi isa umweru ndetse n'izifite imishumi isa umukara.

Iduka ricuruza imyambaro y'abagore, hakaba horimo akabati gasa umweru, gateretsemo udukapu twa'abagore, imbere yako hakaba hari igipupe cyambitswe ikanzu isa umukara, gisa n'ikiriri kwamamaza imyambaro.

Iduka ricuruza imyambaro yiganjemo imyenda n'inkweto, mo imbere hakaba harimo akabati isa umuhondo ndetse n'umukara, iruhande rwayo hakaba hateretse intebe isa umweru yo mu bwoko bwa pulasitike.

iduka ricuruza ibikapo bya bagore rikabaririmo igikapu gisa ibara rya chokora irihande rwacyo rwiburyo hakaba hari ikindi gikapu gisa umukara hakurya yacyo hakaba haka amatara.

Iduka ririmo akabati gatukura, karimo ubwoko bugiye butandukanye bw'udukapu tw'abagore, imbere yako hakaba hateretse utumeza dusa irangi ritukura, hejuru yatwo hakaba hariho udukapu dutandukanye tw'abadamu; agasa umweru, agasa umukara, ndetse n'agasa kaki.

Iduka ririmo abagabo babiri harimo uwambaye ishati isa ibara rya blue sieri ndetse n' ikaruvati yiganjemo umutuku n' umukara ndetse n' undi mugabo wambaye ikoti risa umukara w' umuzungu barimo baritegereza muri mudasobwa.

Imodoka isa ibara ry'umukara yo mu bwoko bwa kiya, ikaba ifite ikirango cya Kigali karizi maketi, hakurya yayo hakaba hari ibindi binyabiziga by'imodoka, hakurya yabyo hakaba hari inzu isize irangi ry'umuhondo, imbere yayo gatoya hakaba hari ipoto risize irangi risa umweru, hakurya yaryo hakaba harindi nzu igizwe n'birahuri bisa umukara ndetse n'irangi ry'umuhondo.

Ukoresheje ikorana buhanga byagutabara nyamara igihe utashye wibereye mu rugo ukabona nk’ agapantaro ukabura uko ukagura wenda kujya k’isoko ushobora kukwereka umuntu agahita akubwira kagurira aha n'aha ugahita ukakishyura agahita kakuzanira rwose.

Uruzitiro rwubakishijwe ibyuma hanze yarwo hakaba hari ubusitani bwiganjemo indabyo ngufiya, mo imbere hakaba harimo imodoka zitandukanye, aho hari n'imodoka z'umuhondo ya emutiyene ndetse n'amadarapo y'uruganda rwa yundayi.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka nini cyane yo mu bwoko bwa fuso, bafite icyapa cyanditseho eyiviji akagera moto, nka sosiyete icuruza amamodoka, umugabo wo mu ruhande rw'iburyo akaba afite anverope y'impapuro mu ntoki, ndetse na terefone.

Urubaraza rw'inzu ifite icyapa cyo mu buso busa umweru kigaragaza uruganda rwa yundayi iruhande rwayo ku muryango hakaba hagaragara amavaze abiri asize irange ryijimye arimo indabyo.

Imodoka isa ibara ry'umweru ifite ibirahure bisa umukara, ifite amatara asa umutuku, hakurya yayo hakaba haparitse imodoka nyinshi zisa umweru, hakurya yazo hakaba hari inyubako ndende isa iba rya beje.

Imodoka iparitse isa ibara ry'umweru n'umukara iruhande rwayo rw'ibumoso ku kirahure hakaba hariho agapapuro kiganjemo, ibara ry'umuhondo n'umweru, n'imbere hakaba harimo impapuro z'umweru iruhande rwaho rw'iburyo hakaba haparitse izindi modoka.

Imodoka ifite ibara risa ry'umukara ikaba ifite pulake yanditseho VIP hakurya yaho hakaba hari igorofa rinini cyane ryiganje mu ibara rya kaki, imbere yaryo hakaba hari jaride yiganjemo indabyo ngufiya ndetse n'ndende.

Inzu ifite ikirango cya kagera motozi imbere yayo hakaba hari imodoka isi ibara ry'umweru itwara imizigo, imbere yayo hakaba hari abagabo babiri bafite icyapa cya eyibiji umugabo w'iruhande rw'ibumoso akaba afite agakapu gatukura mu kuboko kw'iburyo basa n'abari kuranga imodoka igurishwa.

Imodoka isa umuka iparitse muri parikingi inyuma ya iruhande rw'iburyo hakaba higanje ibiti iruhande rw'ibumoso hakaba higanje inyubako.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka nini cyane itwara amazutu, umugabo umwe iruhande rw'iburyo akaba yambaye ishati isa umweru n'ipantaro y'umukara n'inkweto zisa umukara, umugabo w'i ruhande rw'ibumoso akaba yambaye ikoti risa umukara ndetse n'agapira kiganje mo ibara ry'icyatsi, umweru ndetse n'umukara, bakaba bafite icyapa mu kiganza cyanditseho eyibiji.

Abagabo babiri bahagaze umwe iruhande rw'ibumoso bakaba yambaye ishati yiganjemo amabara atukura, ikiganza cye cy'iburyo kikaba kiyizamuye, ikiganza cye cy'ibumoso kikaba gifashe udusinga, iruhande rw'iburyo hakaba hahagaze undi mugabo w'umuzungu wambaye ishati y'ikarokaro ndetse n'isaha ku kuboko,

Inzu isize zirangiriza umuhondo hejuru yayo hakaba hariho icyapa cya Akagera motozi imbere yayo hakaba hari imodoka ihaparitse, iruhande rwayo hakaba hari abantu babiri iruhande rw'iburyo hakaba hari umumama uzamuye ikiganza, ufite agakapu gatukura mu kuboko kw'ibumoso ndetse n'undi mugabo wambaye umupira usa umukara bafite icyapa cya eyibiji.

Inote y'amafaranga y'u Rwanda magana atanu, ikaba yanditseho banki nku y'u Rwanda, ikaba yanditseho magana atanu mu mibare ndetse no mu magambo, hagati yayo hakaba harimo ishusho y'inka ebyiri, imwe irimo irarisha, indi ihagaze.

Amaboko abiri afashe inoti z' amafaranga nyinshi iruhande rwazo hakaba hari udukombe duteretsemo ibiceri, hakurya yatwo hakaba hari igikoresho kifashishwa gusohora inyemezabwishyu imbere yacyo hakaba hari ikindi gikoresho kifashishwa mu kubara amafaranga.

Akazu gatoya kari mu nzu kifashishwa mu gutanga serivisi za banke, mu imbere hakaba harimo wambaye amadarubindi ndetse n'ikoti risa umukara, imbere ye hakaba hari mudasobwa, hanze y'ako hakaba hahagaze abantu biganjemo umugabo wambaye ikoti risa umukara ndetse n'ishati y'umweru, iruhande rwe hakaba hari undi mu mama uhahagaze ufite telefone mu maboko.

Umugabo wambaye ikoti risa umukara, ryiganjemo imirongo isa umweru ndetse n'ishati isa ibara rya buresiyeri, wambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso, imbere ye hakaba hateretse mudasobwa, hakurya yiwe hakaba hari undi muntu wambaye ishati isa umweru.

Igikoresho cyifashishwa mukubara amafaranga hejuru yacyo hakaba hateretseho amafaranga imbere yacyo hakaba hari ikiganza kirimo kirakira amafaranga ari kuva muricyo gikoresho.

Inote ebyiri z'amafaranga y'Urwanda igihumbi, inote ya mbere ibanza ikaba igaragaza ikirango cy'inzu ndangamurage, inote ya kabiri ikurikiyeho ikaba igaragaza ikirango cy'ubukerarugendo.

Inote ebyiri z'amafaranga magana atanu y'Urwanda imwe ibanza ikaba iriho ikirango kigaragaza ubukerarugendo bw'ingagi, indi ya kabiri ikurikira ikaba iriho ikirango kigaragaza abana batatu barimo barasoma ibitabo.

Indobo iteretse ku meza iruhande rwayo hakaba hari intebe isa umweru ikaba ipfunduye, mo imbere hakaba harimo amandazi abiri ndetse n' igikoresho bifashisha mu gufata amandazi.

Inzu y'ubucuruzi bw'amata irimo igikoresho bifashisha mu gutunganya amata ndetse no kuyabika neza, iruhande rwaho hakaba hari indobo irimo keke, iruhande rwacyo hakaba hateretse intebe n'ameza byifashishwa mu kwakira abakiliya.

Iduka ricururizwamo amata, rikaba ririmo igikoresho cyifashishwa mu kuyatunganya no kuyabika, i ruhande rwacyo hakaba hari firigo isa umweru, imbere yayo hakaba hari umuntu wambaye imyenda isa umukara usa n'uje kugura, imbere hakaba hari indobo ziteretse mo amadazi ndetse n'imigati.

Iduka risizira irangisemweru ndetse n'ubururu n'imbere ryifashishwa mu gucuruza amata hakaba harimo abantu batatu bakiriwe mu buryo bwo kunywa amata, hakaba higanjemo umukobwa ndetse n'abasore babiri imbere yabo hakaba hateretse amajage arimo amata, ndetse bamwe muri bo babiri bakaba bari kunywa amata undi umwe w'umukobwa akaba ashyize ikirahure ku meza.

Inzu ifunguye umuryango ku ibaraza ryayo hakaba hari ikinyabiziga cy'igare, iruhande rwaryo hakaba hari inkingi, yegetseho ibikoresho bifashisha mu gutwara, amata iruhande rwabyo hakaba haparitse ikinyabiziga cya moto giteretseho igikoresho bifashisha mu gutwara amata.

Iduka ricururizwamo amata rikaba ririmo utubido tubitsemo amata ndetse n'amakarita iruhande yatwo yiganje mu ibara ry'ubururu n'umuhondo n'umweru afunitsemo amata, imbere yatwo hakaba hateretse udukombe dutoya tubikwoma amata azwi nka yahurute.

Isahani isa umweru iteretse ku meza isa umukara higanjemo imirongo isa umweru ikaba iteretseho keke ebyiri ndetse na biswi iteretse ku gapapuro gasa umweru.

Iduka ricuruza amata ririmo umu mama wambaye umwenda n'umweru imbere hakaba hateretse ububido burimo amata, iruhande rwe rw'iburyo hakaba hari umukobwa wambaye umwenda usa umweru n'umukara urimo urareba muri firigo.

Uburyo bugezweho bwifashisha muri serivisi yo kwishyura amafaranga, uyakuye kumurongo w'itumanaho umwe n'umwe eyateli na emutiyene, ekobanke, ayi endi emu banke bwitwa ikashi.

Urupapuro rusa umweru rutanga ikaze rw'uburyo bwo kwishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga bugezweho, hifashishijwe ikigo cy'itumanaho cya emutiyene, ubwo buryo bukaba bwitwa momo.

Uburyo bugezweho bw'ikoranabuhanga bwitwa supenini bwifashishwa mu buryo bwo kwishyura k'ubufatanye bwa serivisi za ayendemu bake.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'urugi munsi y'urubaraza rw'inzu isa beje, ifite icyapa gisa ubururu cyanditswe mumagambo asa umweru ya peyi peyi.

Urupapuro rwiganjemo ibara ry'umweru, umuhondo ndetse na buresiyeri, rugaragaza uburyo bugezweho bw'ikoranabuhanga, bwo kwishyura bwitwa PayPal hifashishijwe Mobile Money.

Urupapuro rurimo ubuso busa umweru rwandikishijwe amagambo asa umukara, iruhande rwarwo rw'ibumoso hakaba hari ikirango cy'igihugu cy'u rwanda ndetse, n'iruhande rwarwo rw'iburyo hakaba hari ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro rwanda reveni otoriti.

Urupapuro rufite ubuso busa umweru rwandikishijweho amagambo asa umukara rufite ikirango k'ikigo NCBA rukaba ruteretse ku meza asa shokora.

Umugabo wambaye umupira utukura, akaba afite inote nyinshi mu maboko ye, ziganjemo inote za bibiri ndetse n'igihumbi; imbere ye hakaba hari ameza ariho ibirangantego bya airtel ndetse n'agatelefone ka airtel.

Urupapuro rugizwe n'ubuso bwijimye rufite umutwe usa ubururu rugaragaza uburyo iki amafaranga avunjwamo y'amadorali bigendanye na buri gihugu cyanditseho.

Ibiganza bibiri bifite amafaranga inoti z'ijana ijana z'amadorari ya Amerika, imbere yabyo kahaba hariho icyapa cyanditseho foreni mani, ndetse cyanditseho ba banki ofu Indiya, kigaragaza ivujya ry'amafaranga hagati y'amafaranga y'amadorari ya Amerika ndetse n'amahinde.

Ikiganza gifashe inote nyinshi z'amafaranga y'amadolari ya amerika yiganjemo ijana ijana gisa n'ikiri kuyashyiramo igikoresho cyifashishwa mu kubara amafaranga.

Iduka ritanga serivisi z'ivunjira ry'amafaranga mu imbere hakaba hahagaze umugabo wambaye ishati y'ubukarokaro, iruhande rwe hakaba hari inote za bitanu, imbere hakaba hari umumama uri kwaka serivise wambaye ishati y'umukara ndetse n'amaherena asa umweru.

Ibiro byifashishwa mu kuvunja amafaranga yo mu bihugu bigiye bitandukanye, mo imbere hakaba harimo umusore n'umukobwa barimo baratanga serivise, imbere yabo hakaba hari abandi basore babiri basa n'abarimo baraka serivise yo kuvunjisha amafaranga.

Inzu isize irangi risa ubururu, ririho icyapa gifite ubuso busa umweru, kigaragaza ibiro byifashishwa mu kuvunja amafaranga, byitwa Giraneza foregisi biro.

Mwiyubakire imihanda, dukore twiteza imbere twubake n'amasoko ndetse twubake ibikuta bikikije imihanda kugirango tutazatembanwa n'isuri y'imvura. Kubaka imihanda ndetse no ku nkengero ni ingirakamaro kuri buri muntu wese kuko uba wikingiye ibibazo bishobora guturuka ku mirwanyasuri y'imvura.

Intebe zisa umweru ndetse n'izisa oranje imbere yazo hakaba hateretse ameza manini iruhande rw'ameza manini hakaba hari utumeza dutoya twiganjemo ibara risa umweru ndetse n'ikigina.

Icyumba cy'uruganirimo kirimo intebe zisa umukara ndetse n'ameza asa umukara ateretseho ibirahure, inyuma yayo hakaba harimo akabati karimo ibikapu bitandukanye.

Isoko rifite ibicuruzwa bitandukanye by'imitako yakorewe mu Rwanda, harimo uduseke twinshi n'imitako yo mu ijosi, n'imitako yo kumanika mu nzu harimo n'ibibumbano bigiye bitandukanye n'udutebo.

Hoteli isa irangi ry'umweru, ifite ibirahure bibonerana, imbere yayo hakaba hari ubusitani, bwiganjemo imitaka ikingira abantu izuba n'imvura, hakaba higanje mo ibiti birebire by'imikindo, imbere yabyo hakaba hari na pisine.

Hoteri igizwe n'urubaraza rurimo intebe n'ameza by'uruganiriro hakurya yayo hakaba hari igiti kinini gifite amabara y'umuhondo hakurya yacyo hakaba hari amazu menshi ari hamwe asize irangi rya beje.

Inyubako igeretse yiganjemo amabara asa ubururu, imbere yayo hakaba hari ayandi mazu yiganjemo ibirahure cyane ndetse akaba arimo amatara arimo araka, hejuru yayo hakaba handitsweho ijambo komveshoni senta.

Ikidendezi cyo koga gisa ibara rya buresiyeri, gifite urubaraza rusa ibara ry'ikigina ryiganjemo umweru wacuyutse, iruhande rwacyo rw'ibumoso hakaba hari imitaka isa umukara itwikiriye udutebe two kwakiriramo abakiliya.

Amahema yiganjemo asa ibara ry'umukara ndetse nasa ibara ry'icyatsi, imbere yaho akaba hari ubusitani bwinganjemo ibiti birebire by'imikindo, hakurya yaho hakaba hubatse izindi nzu ndetse zisakajwe amabati atukura

Icyumba mbera byombi cyateganyirijwe inama ndetse n'amahugurwa kikaba kirimo intebe z'umukara ndetse n'ameza ateretseho uducupa tw'amazi imbere yaho hakaba hari televiziyo nini cyane ndetse n'icyapa cyanditseho ekwiti.

Hoteli icanye amatara, ifite urubaraza rurimo intebe z'uruganiriro, imbere y'urwo rubaraza hakaba hari jaride iteyemo indabyo ndende z'umwimerere.

Ikinyabiziga cy'imodoka, giparitse muri parikingi, iruhande rwacyo rw'iburyo hakaba hari inyubako isize amarangi yijimye, imbere yayo hakaba hari ikidendezi cyo koga, gisa ibara rya buresiyeri. Hakurya yayo hakaba hari indi nyubako ihari isize amarangi yijimye ndetse n'umuhondo.

Ubusitani bugizwe n'ibyatsi bigufiya ndetse n'indabyo ziganjemo izifite imitwe isa umweru ndetse n'umuhondo hakurya yazo hakaba hari intebe zisa ibara ry'umukara zifashishwa mu uruganiriro.

Inyubako igeretse isize amarange asa umuhondo hepfo yaho gato mu muhanda hakaba harimo imodoka icanye amatara maremare, mu marembo yayo hakaba haparitsemo imodoka nyinshi hakurya yazo hakaba hari ibiti birebire birimo itara ririmo riraka.

Ibiro by'ikigo cya saniramu, bigizwe n'intebe zisa umukara, akabati kiganjemo ibara ry'umweru na kacyi, ndetse n'imitako yiganjemwo ibara rya buresiyeri ndetse n'umweru.

Inzu igizwe n' iburahure bisa umukara, ikaba ifite ikingi zitukura, ikaba ifite impande zisize irange risa beje, ikaba iriho icyapa gifite ubuso busa ubururu cyanditseho radiyanti inshuwarense kampani.

Iyi n'ipoto iriho insinga nyinshi z'amashanyarazi, zijyana umuriro mu ngo z'abaturage, ndetse no mu yandi mazu akorerwamo ibindi bikorwa. Ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu, kandi bigafasha abakora akazi ka buri munsi kugakora neza batuje, ndetse n'uko haba habona.

Umukobwa urimo uraseka wambaye ishati y'umuhondo yiganjemo utudomo tw'umweru akaba yambaye itaburiya hejuru isa umweru iruhande rwe hakaba hateretse intebe n'ameza hasi yaho iruhande rw'iburyo hakaba hari ikirango cya ekwiti, hejuru yaho hakaba hari amagambo yanditswe mu ibara ritukura.

Urupapuro rusa umweru, rwiganjemo imirongo isa icyatsi, rugaragaza uburyo bwo kwaka inguzanyo mu kigo k'imari cya Leta kizwi nka I&M banke

Umukobwa urimo araseka wambaye ishati isa kacye, akaba yambaye amaherena, usa n'uwishimira ko yahawe inguzanyo n'ikigo NCBA, mu buryo bwo kwiteza imbere.

Umugore uririmo araseka ufite terefone isa umweru nini mu kuboko kwe kw'ibumoso hagati mu kwaha kwe hakaba harimo igipapuro, ukuboko kwe kw'iburyo hakaba harimo terefone asa nurimo kuyitaba, hejuru ya gatoya hari amagambo yanditswe mu ibara ry'icyatsi n'ubururu bipiyara bake.

Isoka by'imboga n'imbuto byiganjemo ibicuruzwa bitandukanye harimo karoti, ibitunguru, imboga n'ibindi byinshi, iruhande rwa karoti hakaba hicaye umumama wambaye amadarubindi, iruhande rw'ibitunguru hakaba hari indobo isa icyatsi.

Isoko ricuza imboga n'imbuto zitandukanye higanjemo ibitoki, pavuro, karoti, amashu ndetse na kokombure. Inyuma yaryo hakaba hari umwenda urimo imirongo isa ibara rya buresiyeru, umweru ndetse n'uw'utukura.

Isoko ry'imboga rinini ryifashishwa mu gucuruza imboga rikaba ririmo imboga zigiye zitandukanye harimo pavuro, ibibiriganya, kokombure, inyanya, sereri ndetse n'ibindi byinshi.

Isoko rikorerwamo ubucuruzi bw'imboga n'imbuto ririmo imboga n'imbuto bitandukanye, rikaba ririmo urujya n'uruza rw'abantu. Iruhande rw'ibumoso hakaba hari umugabo wambaye umupira usa ubururu, iruhande rw'iburyo hakaba hari abantu babiri harimo umugabo umwe ndetse n'umumama wambaye isengeri itukura.

Isoko ry'imbuto rinini ryiganjemo imbuto zigiye zitandukanye, imineke, amaronji, amapapayi, inanasi, za watameroni, ndetse n'izindi nyinshi, imbere yazo hakaba hari abantu bagiye batandukanye yaba abari kuzicuruza, ndetse n'abarimo baragura.

Utuzu tubiri twegeranye, kamwe gasa ibara ritukura, akandi gasa ibara ry'umuhondo, agasa ibara ritukura kakaba kifashishwa mu gutanga serivise zijyanye n'amayinite, kubitsa no kubikuza amafaranga muri sisiteme y'itumanaho rya eyateri, ak'umuhondo kakaba kifashishwa muri serivise zijyanye n'amayinite mu kigo cy'itumanaho cya emutiyeni, imbere yatwo hakaba hari abantu babiri bahagaze.

Abagabo babiri bahagararanye umwe wambaye umupira w'umuhondo wiganjemo amabara y'ubururu wambaye ingofero y'ubururu, undi ufite terefone mu kiganza n'amvelope mu kiganza, iruhande rwabo rw'iburyo hakaba hahagaze umugabo wambaye umupira w'umuhondo mu muryango iruhande rwabo rw'ibumoso hakaba bahagaze abandi bambaye imipira y'umuhondo basa n'abari mu kazu gatangirwamo serivisi z'amayinite.

Icyapa gisa umuhondo cy'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene kigaragaza uburyo bwo kwishyura amafaranga nta kiguzi, bwamamo peyi.

Akazu kifashishwa mu gutanga serivise zijyanye na MTN, haba mukugura ama inite koherereza no kwakira amafaranga, imbere yako hakaba hateretse icyapa gisa ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, hakaba harimwo ijambo emutiyeni ayoba iruhande rwako hakaba hari abantu bahahagaze bambaye imipira isa umuhondo ndetse n'ingofero zisa umukara.

Utuzu tubiri dutoya, kamwe kakaba ari aka Eyateri karimo umu mama uri kureba muri telefone, imbere yako hakaba hari akandi ka Emutiyene, kariho abantu baje kwaka serivisi.

Akazu gasize irangi risa umuhondo mu imbere harimo icyapa gisa umuhondo, cyanditseho momo peyi, kigaragaza serivisi yo kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye, hifashishijwe ikoranabuhanga rya momo peyi.

Akazu gatoya ka emutiyeni gasize irangi risa umuhondo, gatanga serivise zo kugura amayinite, kohereza no kwakira amafaranga, inyuma yako hakaba hari ibiti birebire binyurwaho n'amasinga asa umukara.

Umutaka usa ibara ry'umuhondo wiganjemo n'ibara risa buresiyeri wa emutiyene, wifashishwa mu gutanga serivise zijyanye no kugura amayinite, kohereza no kwakira amafaranga, munsi yaho hakaba hahagazemo abana bato b'abanyeshuri bahetse ibikapu ku mugongo.

Akazu gatoya gasa ibara ry'umuhondo kifashishwa mu gutanga serivisi z'amainite ndetse no kubitsa no kubikuza muri mobayiro mani, mu imbere hakaba harimo umumama usa n'urigutanga serivise hanze n'aho hakaba hari undi muntu usa n'urikwaka servise hakurya yako hakaba haparitse imodoka.

Iduka ritanga serivisi za mobile money, imbere yaryo hakaba hari umugabo urimo urasikaninga telefone ye, iruhande rwe rw'iburyo hakaba hari umugabo w'umumotari uparitse moto ndetse n'imodoka ndetse iruhande rwe rw'ibumoso hakaba hari utubati tubiri, kamwe kabitse amacupa imbere y'ako hakaba hari umumama urimo uragafungura.

Akazu gatoya ka mobayiro mani gasa ibara ry'umuhondo n'umweru, gatanga serivise ijyanye no kugura amayinete ndetse no kohereza no kwakira amafaranga, hejuru yako hakaba hariho itara ririmo riraka.

Akazu gato k'umuhondo gakorerwamo serivisi ijyanye no kugura amayinite, kohereza no kwakira amafaranga. Iruhande rwako rw'iburyo hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu mu muhanda, iruhande rw'ibumoso hakaba hari umugabo wambaye ishati isa umweru ifite amaboko magufiya usa n'uri kwaka serivise.

Umugabo wambaye ipantaro isa umukara, umupira muremure usa umukara. Akaba yarengejeho undi mupira usa umuhondo wa Emutiyene inyuma ye. Hakaba hari umutaka wifashishwa kwijizwamo mu gutanga serivisi za mainnite, ndetse no kohereza no kwakirara amafaranga munsi yaho. Hakaba harimo umukobwa wambaye ijiri isa umuhondo ukorera Emutiyene inyuma, hakaba hari abandi bantu benshi.

Akazu gatoya ka mtn kifashishwa mu gutanga serivisi za mobile mone; harimo kugura amayinite kohereza ndetse no kwakira amafaranga imbere yako hakaba hahagaze abantu benshi harimo umuntu wambaye umupira utukura ndetse n'ikabutura isa umukara.

Iduka ritanga serivisi zo kugura amayinite, kohereza no kwakira amafaranga, munsi yaryo hakaba harimo abantu bambaye imipira isa umuhondo, imbere yaryo hakaba hari umumama ufite amverope mu ntoki, inyuma yiwe hakaba hari icyapa cya emutiyene, inyuma yacyo hakaba hari abantu babiri basa, n'abari kwitegereza muri telefone.

Iduka rrisa umuhondo ritanga serivisi yo kugura amayinite kohereza no kwakira amafaranga imbere yaryo hakaba hari abantu batatu, iruhande rw'iburyo hakaba hari umusore wambaye umupira utukura, wandikishijwemo amagambo asa umweru iruhande rw'ibumoso, hakaba hari abandi bagabo babiri bose basa n'abari kwaka serivisi.

Urupapuro rugaragaza urubuga nkoranyambaga, rwifashisha kugurisha ibikoresho by'isuku rwitwa afuripadi, mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Imodoka isa nk'ivu iri mu muhanda iri kugenda ifite amapine y'umukara, ndetse iruhande rw'iyo modoka hari umumotari uhetse umuntu ku ipikipiki wambaye ijire y'umuhondo ndetse n'ubururu wambaye n'ingoferoy'umukara ndetse n'umutuku.

Umu motari uparitse impande y'umuhanda, akaba ahetse agakarito gasa ibara ry'icyatsi kanditseho, vuba vuba nk'imwe muri sosiyete ifasha abantu kugezwaho amafunguro ndetse n'ibyo kurya mu buryo bwihuse. Impande yiwe hakaba hari icyapa cyanditseho kivu marina bayi hoteri, ndetse n'indabyo ngufiya iruhande rwe.

Urubuga nkoranyambaga rwifashishwa mu kugura ndetse no kugurisha ibikoresho mu buryo bw'ikoranabuhanga hifashishijwe interinete rwitwa iguriro.

Icyumba kinini kirimo igitanda gisashe neza, kikaba kiriho imisego ibiri isa umweru iruhande rwacyo rw'ibimoso hakaba hateretse itara rigezweho iruhande rwacyo rw'uburyo hakaba hateretse vandarateri.

Ubusitani bwiganjemo ibyatsi bigufiyabukaba bukikijwe nindabyo ndende bukaba burimwo itiyo yifashishwa mukuvomerera indabyo imbere yabwo hakaba hari inzu isize irange risa umweru ndetse nibirahure bisa umukara.

Umuhanda w'igitaka, hagati hahagazemo umugabo wambawe ijire yiganjemo ibara ry'icyatsi, umukara, ndetse n'ivu, iruhande rwe hakaba hari ibibanza bibiri, hakurya yaho hakaba hari inzu izakajwe amabati atukura, akaba ameze nk'urimo urarangirana ibibanza.

Igikoni kigezweho kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mugutegura amafunguro, kikaba kirimo utubati tugizwe n'irangi risa umweru ndetse n'umukara, iruhande rwako hakaba hateretse firigo.

Inzu igurishwa miliyoni ijana na mirongo ine, ikaba yubakishijwe urugi rukozwe mu rubaho, ndetse n'idirishya rifite ibirahure bya fime. Ikaba ifite urubaraza rufite amakaro yiganjemo ibara ry'umukara, ndetse n'ivu.

Umugabo wambaye ikote inyuma ye hakaba hari inzu isize irange risa umweru, ifite imiryango ifunguye imbere ye hakaba hari ubusitani bugizwe n'ibyatsi bigufiye imbere ye hakaba hari amavazi arimo indabyo.

Ameza asa umweru n'umukara imbere yayo hakaba hari umumama wambaye ikoti ry'umukara na rinete inyuma yiwe hakaba hari utubati twifashishwa mu bikoni bigezweho.

Inzu isize irangi ryijimye, isakarishihe amabari atukura, iruhande rwayo ry'iburyo hejuru hakaba hari antene, imbere yayo hakaba hari ubusitani bwiganjemo ibyatsi bigufi ndetse n'indabyo ndetse, hakurya ayayo hakaba hari indi nyubako itarasozwa kubakwa

Inyubako igeretswe rimwe, ikaba igizwe n'urubaraza rwiza cyane rwubakishijwe amapave, ikaba yubakishijwe n'igipangu cy'amatafari ahiye, imbere yaho hakaba hateretse indobo isa ibara ry'ubururu.

Inzu isize irange risa umweru ndetse n'umuhondo ikaba ifite imiryango ifite ibirahure bisa umukara, ikaba isakajwe amabati asa umukara. Imbere yayo hakaba hari ikigega gisa umukara hakurya yacyo hakaba hari indi nyubako yubakishijwe amabati asa umutuku.

Inzu isize amarangi yijimye ndetse n'umweru isakarishijwe amabati atukura, ifite urubaraza rukikijwe n'ibyuma bisize irangi risa umukara, iruhande rw'ayo rw'ibimoso hakaba hari umuntu uhunamirije.

Iduka ricuruza imyambaro y'abagabo y'icyubahiro izwi nk'ikoti, rikaba rifunguye imiryango, mo imbere hakaba harimo abantu babiri, umwe wambaye umwenda hejuru usa umuhondo, n'undi wambaye umwenda hejuru usa umweru, hasi ukaba usa icyatsi. Hanze hakaba hari ibipupe byifashishwa mu kwamamaza imyambaro byambitswe amakoti.

Inzu y'ubucuruzi irimo urujya n'uruza rw'abantu ikaba yiganjemo ibirango bya sosiyete y'itumanaho ya emutiyeni, imwe imbere hakaba harimo umugabo wambaye ijire isa icyatsi inyuma ye ku ruhande rw'ibumoso hakaba hateretse indangururamajwi izwi nka bafure.

Icyapa gisa icyatsi gishamikiyeho ikindi gice gisa umweru ndetse n'ikindi kigizwe n'icyatsi n'umukara n'umweru inyuma yacyo hakaba hari ibiti birerbire iruhande rwabyo rw'iburyo hakaba hari inyubako ndende ihari iruhande ryabyo rw'ibumoso hakaba hari umuhanda hakurya yaho hakaba hari abantu.

Inzu y'ubucuruzi iri mo utubati turimo ibicuruzwa bigira bitandukanye, hagati yatwo hakaba harimo umukobwa wambaye ikanzu itukura, mu kuboko kw'ibumoso akaba afitemo agatete gasa n'akarimo ibyo yamaze guhaha.

Inzu y'ubucuruzi ifite igikuta gisize irangi ry'ubururu ifite igisenge gisize irangi risa umweru, imbere y'aho bakirira abantu hakaba hahaze umuntu wambaye umupira usa umuhondo.

Umugabo wambaye ishati y' umweru ndetse n' ikaruvate isa umukara yiganjemo utudomo tw' umweru imbere ye hakaba hari ibiganza byinshi bifite amaterefone bisa n' ibiri kumufara amajwi.

Umugabo wambaye ishati isa umweru akaba afite agapapuro kanditseho ara esi esi bi, imbere ye hakaba hateretse ameza hariho agatelefone gatoya, iruhande rw'ako hakaba hari impapuro zisa umweru.

Abaganga babiri bicaye mu cyumba kimwe gisa irange risa ubururu bakaba bambaye amataburiya asa umweru bose bakaba bafite amakaramu mu ntoki zabo, imbere yabo hakaba hari umugore ufite impapuro mu kuboko kw'ibumoso ndetse ukuboko kwe kw'iburyo akaba afashemo ikarita yifashishwa mu kwivuza.

Umusore wambaye ishati y'ubukarokaro bwiganjemi ibara risa umweru, umukara n'ivu, akaba yambaye agapfukamunwa, akaba afite icyapa mu kiganza cye gisa umweru, imbere ye hakaba hari umugabo ufite indangururamajwi mu kiganza, hakurya ye hakaba haari utuzu dutwikiriye imodoka, inyuma ye hakaba hari igiti cy'umukindo ndetse n'ipoto rirho itara rimurikira umu

Ikiganza gifashe ikarita isa umuhondo yandikishijweho amagambo asa umukara, ifite ikirango cy'igihugu cy'Urwanda, iruhande rwayo hakaba hari igikuta gisa ubururu, iruhande rwacyo hakaba hateretse ameza.

Inyubako ndende cyane igizwe n' ibara risa beje ndetse n' ibirahure bibonerena, hasi yaho hakaba hari amagambo yanditswe mu ibara ry' umuhondo akaba yanditswe ku buso busa ubururu, hejuru uruhande rw' ibumoso hakaba hari ikirango cya RSSB.

Umumama wambaye imyenda yiganje umutuku na kaki, akaba yicaye ku ntebe isa umukara, imbere ye hakaba hari ameza asa umweru, iruhande rwe hakaba hari akabati kiganje kaki n'umukara.

Abantu benshi bicaye hamwe, basa nk'abari gutanga serivisi mu bwishingizi bwo kwivuza, inyuma yabo hakaba hari abandi bahagaze, harimo umugabo ufite amverope n'impapuro mu ntoki, imbere yabo hakaba hari undi uhagaze usa n'ugezweho guhabwa serivisi, hakurya yabo hakaba hari abandi bantu benshi, inyuma yabo hakaba hari ibiti byinshi.

Iduka ririmo utubati dusa ibara ry'umukara, duteretsemo ibinyobwa bigeye bitandukanye, nka fanta, amazi, inyuma yaryo hakaba hari igikuta cyiganjemo ibara ry'umukara ndetse n'imirongo y'umweru.

Akabati kiganjemo imboga zigiye zitandukanye imbere yazo hakaba hari umukobwa ufite indobo mukuboko kwiburyo asa nuwitegereza izo mbuto nkumuntu ushaka kugura.

Inzu igurishwa iherereye i Kigali Kibagabaga ku giciro cya miliyoni ijana na mirongo ine ku mafaranga y'u rwanda nziza hose ifite amakaro kandi ikinze neza.

Isoko rigezweho, rigizwe n'ububiko bwubakishijwe utwuma duto dutoya tubika ibicuruzwa, imbere yabwo hakaba hari umukobwa wambaye isengeri isa umukara, ndetse n'igitende, akaba afite agahahisho mu kuboko kwe kw'ibumoso, akaba afite n'ikindi gicuruzwa arimo ari itegereza mu kuboko kw'iburyo.

Iduka rigezweho ricuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye rikaba ririmo utubati tubitse ibicuruzwa bitandukanye mo hagati yaryo hakaba harimo umusore wambaye umupira usa ubururu wiganjemo ibara risa umweru akaba afite icupa ry'ikinyombwa mu maboko yiwe.

Isoko rikorerwamo ubucuruzi butandukanye, habaha harimo akabati gasa oranje, ku muguno w'ako kabati hakaba hariho udupapuro dusa n'utugaragaza ibiciro by'ibicuruzwa biri mu kabati.

Iduka rigezweho ricuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye rikaba ririmo utubati dufite umuguno usa ibara ry'iroza hakaba hari nk'umugabo wambaye imyenda ise ibara rya buresiyeri, ufite icupa mu kuboko kw'iburyo iruhande rwe rw'iburyo hakaba hari umukobwa wambaye umupira utukura, ndetse ufite n'agatete gatukura gateretse hasi' usa n'uri kumuha serivisi.

Isoko ry'ubucuruzi bugezweho, ryitwa supamaketi, ryiganjemo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo ibinyobwa, ndetse hakaba harimo n'umuzungu urimo urahaha.

Umugabo wambaye umupira utukura akaba asa n'uri muri serivise yo kwishyura iruhande rwe rw'ibumoso hakaba hateretse icupa ry'amavuta, iruhande rwi'iryo cupa nahao hakaba hateretse icupa ritukura.

Umuhanda w'ikaburimbo urimo imodoka yo mu bwoko bwa dina, ufite ibyuma by'umutuku biyizengurutse isa ibara ry'umweru, imbere yayo hari ibindi binyabiziga birimo biragenda ku ruhande hahagaze abanyamaguru hari n'undi urimo aragenda mu muhanda w'abanyamaguru ku ruhande.